Igihingwa c'umuravumba gufite amababi y'ibara ry'icatsi, hariho n'uruyange gufite n'ibara rya pinki n'uduti. Hirya y'aho hariho ibyatsi byumye biri mu butaka.

Isombe ifite amababi g'icatsi, hirya yaho hari iyakubiswe n'izuba ifite amababi g'umuhondo, yegeranye n'amateke gafite ibibabi binini by'icatsi. Hariho n'utwatsi dutoya turi hasi ku butaka.

Uruzitiro rwo k'umuturage rw'ibitusi, ruriho icatsi twita umuravumba n'ikindi twita umukondogoro. Hari kuva izuba ryinshi. Igiti gifite amashami na kapusinini zagiye zinjira mu ruzitiro rw'imbere.

Igiti c'inturusu co mu bwoko bw'intende kitari cyakura cane giteye, hasi hari utwatsi dutoya n'ibindi biti biri kugaragara hirya yacyo.

Igihingwa c'icatsi c'umuharavumba gifashe ku duti tureture cegeranye n'ikindi catsi ca kapusine, giteye mu murima w'itaka gusa.